Ahanini abanza amashuri yigamo abana batoya usanga ari amashuri akwiye kuba yagirwamo yaba afite imitako ishimisha abana imitako ifasha abanyeshuri kwiga iborohereza mu buzima busanzwe mu kuba bamenya ibyo bari kwiga.

Mu Rwanda ndetse no ku isi hose tugira amasomo rusange, tugira amasomo y'ubumenyi, ubumenyi buri wese aba akwiye kuba afite, twavugamo nk'isomo ry'imibare, isomo ry'imibare ni isomo twavuga yuko ari nka baze y'ubumenyi bwose, kuko ni isomo ahantu hose urisanga, yaba kuva watangira kwiga kugeza usoje, ni isomo rigira umumaro mu buzima bwa buri muntu, ndetse mu buzima rusange.

uburezi, uburezi mu gihugu cy'u Rwanda, ni ikintu cyitabirwa cyane, ni ikintu usanga leta ishishikariza abaturage kujyana abanyeshuri, abana babo mu mashuri bakiga, bakaba abanyeshuri, usanga bigira umumaro kuko umwana ariga, akaba yakiga amashuri abanza, akajya muri segonderi, akiga ubumenyigiro, akiga amasiyansi, akazajya no muri kaminuza, ugasanga bimugiriye umumaro mu buzima bwe.

Inama mu Rwanda usanga ahanini abayobozi yaba abikorera yaba abafite aba businessman bafite icyo bashinzwe bafite, ndetse no ukuvuga ngo buri wese ufite icyo ashinzwe, buri wese ufite icyo akora, usanga bagira icyo bahuriraho bagakora inama bakungurana ibitekerezo.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukwiye kubaho twumva yuko tutihagije ,tukabaho twumva yuko umuntu ashobora kuba afite icyo aturusha, umuntu ashobora kuba afite inama atugira tukazakira ,kandi ndetse tukazakirana n'ubuntu ,twumva yuko yatugira inama cyangwa yatubwira ibintu bifite umumaro mu buzima bwacu, atari uko atwanze cyangwa ari uko atwifuriza ineza.